Ibigori bireze byumiye mu murima, bikenewe gusarurwa bikajya guhunikwa. Ni byiza cyane!

Umubyeyi w'umudamu agiye guhinga, isuka ayitereye k'urutugu, amanutse akabande karimo ibigori, karimo ubwatsi bw'amatungo.